Ibitaro bifite isuku bimeze neza, ndetse hari n'intebe abantu bicaragamo baruhuka bafite ibibazo bigiye bitandukanye, abarwayi barazaga bakabavura abaganga bambaye imyenda yabugenewe ubona ko basa neza cane.

Abaganga baba bambaye imyenda y'akazi babyitabiriye, barabyigiye, bambaye udupfukamunwa, amakayi yo kwandikamo, imiti y'ubwoko bwose, amazi yo kunywa, ameza, intebe mbese ubu muri iki gihe ntabwo warwara ngo urinde wareremba, imiti iba ihari rwose.

Ibitenetene ni umuti guvuraga indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse n'ibindi byatsi bifite akamaro kanini nabyo babyifashishaga mu kuvura. Muri iki gihe nta guhezwa n'indwara ngo urware urembe, hari indwara iyo udafite amafaranga ukoreshaga ibyatsi bya kinyarwanda.

Ikimera bitaga ikidaliriya kimeze neza carameze bakifashishaga bagacaho ibiti byo gushingirira ibishimbo kugira ngo bikure biharandire byere bimeze neza bifite ubuziranenge nyuma bibone umusaruro babisarure.

Amababi g'ibidodoki ndetse n'ibindi byatsi nta go bimeze neza, byabonye agasimba karabirya ubona ko nta go bimeze neza byahuye n'indwara. Bisabwa kugira ngo byitabweho ubundi bibone bitange umusaruro.